Inzu ndende ya etage aho batangira inama ndetse n'ubufasha bw'ubuvuzi Africa Health Care, abo bita ku barwayi ndetse n'ububabare babagezaho imiti.

Umugezi munini cyane utemba harimo umwana uri kuvoma amazi akoresheje akabido cyangwa se injerekani wazamutswemo n'ibyatsi byahirirwa amatungo ndetse n'ibindi biti bigena umwuka abantu bahumeka.

Ahari abana bari gukaraba intoki ndetse banigishwa ko ubuzima bwiza bagomba kubutegura, bagira isuku mu ntoki mbere yo kugira ibindi byose bakora, inyuma yabo hari ibyatsi byiza binini, bisa neza cyane.

Ivomo rusange rivoma rikoreshwa n'abaturage aho rikijijwe n'ibiti byinshi riri ahantu harambuye cyane ku buso bugari, rikoreshwa rivoma, ritanga amazi meza abaturage bifashisha mu mirima yo mugo, nko guteka, koza ibyombo cyangwa amasahani ndetse no gukora amasuku mu bindi bintu bitandukanye nko koga n'ibindi.

Icyumba cy'inama, kirimo abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo ndetse bicaye bari kumva icyo ubahagarariye ari kubagezaho cyangwa ijambo ari kubabwira, kugira ngo hatagira ikibacika.

Ahahuriye abaforomokazi n'abaganga bakuru, gutangirwa inama ndetse n'ukuntu bagomba kwita ku barwayi, b'abaha keya cyangwa babitaho mu buryo bushimishije cyangwa bubanyura, ndetse banabagira inama z'uko bitwara mu gihe barwaye.

Mu nzu nini hahuriye abantu benshi cyane, cyane cyane abafiye abana aho ubona hari abandi bantu b'abayobozi bari kubaha ibyo kurya n'uducupa nk'amata ndetse n'ibindi ubona bari kugaburira abana barebe ko umwana yabona indyo yuzuye ndetse bari guhabwa n'amahugurwa yuko bakwita kundyo y'abana.

Mu cyaro ku ivomo, hari abantu benshi bategereje kuvoma ndetse bashaka amazi, ubona ko banyotewe ndetse bayashaka cyane, bisaba imbaraga kugira ngo bapompe, amazi ava hasi azamuka.

Ikigega cyiza cyane kinini cy'umukara ubona gisa neza, imbere hari umwana urikuvoma amazi mu gikombe yo kunywa, ubona ko ariya mazi ari ahantu hakenewe hazengurutswe n'indi nzu y'inyubako ituzuye neza itarimo amadirishya ndetse n'ibindi.

Mu mugezi wa robine uzana amazi meza, aho hari abanyeshuri baje kunywa amazi ubona bishimye bari guse ndetse bishimiye ahantu bari, hari ibiti bibazengurutse bikabaha umwuka mwiza, ndetse byifashishwa n'ibicanwa byo mu rugo.

Kuri site y'ubuvuzi hari ababyeyi benshi, urujya n'uruza rw'abantu, aho ababyeyi baje gukingiza abana babo batoya, ndetse ubona umuganga wicaye akikijwe n'abantu benshi, akikijwe n'ibikoresho ari gukoresha, abakingira, harimo nk'inshinge ndetse n'indi miti atanga nyuma yo gukingira umwana.

Mu cyaro kuvomo rusange buzengurutswe n'abantu benshi baje kureba uko ivomo rikoreshwa, ndetse hari umwana ufite amajerekani uri kure kugira ngo hajyemo amazi abashe kugana mu rugo yifashishwe mu mirimo itandukanye, ndetse bazengurutswe n'imibyare yeraho ibitoki biribwa.

Ku ishuri, hari abanyeshuri benshi, bari kwigishwa uko bagomba kunywa amazi meza, bayakuye ahantu habugenewe cyangwa mu gikoresho gisa neza nk'icupa rinini ndetse banywa amazi bakoresheje ibikombe, kugira ngo birinde umwanda wo mu ntoki.

Ikigo nderabuzima gihagazeho abaganga cyangwa abaforomo ndetse n'abaturage baje gushaka serivisi, bamwe bari mu kigo cy'ubukangurambaga bw'uko abantu bagira ubuzima bwiza birinda uburwayi butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bahuriye kuri site y'ubuvuzi, aho ubona ko basoje guhabwa inama ndetse biteguye kumva impanuro bari buze guhabwa, buri wese ahagararanye amatsiko atuje nta rusaku, ubona ko bose biteguye kumva impanuro.

Gisagara hafi y'umugezi hari abantu benshi bari gupimwa ngo barebe nimba bataranduye icyorezo, ubona hazindukiye mukoranabushake ukuze cyane wambaye akajiri kamuranga. Kubonako bari gupima umubyeyi ngo arebe uko ahagaze niba yaba ataranduye cyangwa yaranduye kugira ngo abashe kwitabwaho.

Umugezi mwiza ukoze neza mu buryo bugezweho, ufite amazi meza akoranywe isuku, hazengurutswe n'ibyatsi, ibiti ndetse n'ibindi bituma haza akayaga keza ko guhumeka.

Ku ikigo nderabuzima hanze hari uruhuri rw'abantu benshi cyane. Biganjemo abasore, inkumi ndetse n'abantu bakuru. Abagabo n'abagore ndetse hariho n'ababyeyi bahetse abana, ubona ko baje guhabwa imfashanyigisho y'uko bakwitwara mu buzima.

Ikiyaga cy'amazi menshi cyane amazi atemba, harimo abana bari koga aho bakubita umuvumba ndetse bishimisha ubona bari koga baseka banezerewe no kuba bari koga mu mazi menshi.

Kuri site y'ubuvuzi, hari haje kwisuzumisha abantu benshi, bari mu ngeri zose abakuze ndetse n'abakiri bato kugira ngo babashe kumenya uko umubiri wabo umeze, bari buze gusangwamo ubu uburwayi cyangwa ibindi bitagenda neza mu mubiri, baze guhabwa ubuvuzi bwihariye.

Umugezi munini utemba cyane ubona hari umuntu uri koza igare ndetse n'umubyeyi uri kuvoma avomesheje igipara ndetse hazengurutswe n'byatsi byinshi cyane, byahirwa bikagaburirwa inka ndetse hari n'ibiti bishobora gukorwamo ibicanwa ndetse bikanubakishwa bari kubaka nk'urugo cyangwa uruzitiro.

Umugezi rusange wubatse mu buryo bugezweho aho uriho icyapa ndetse n'ibirango by'impamvu uwo mugezi washizweho, ndetse hari amajerekani ubona ko ashirwamo amazi kugira ngo abashe gucamo, azengurutswe n'ibiti binini kimwe n'ibi bikoresho by'imbaho zifashishwa mu gukora intebe n'ibindi.

Mu cyumba kinini cy'inama harimo abantu benshi batandukanye bari kwiga ku ngingo runaka bari gusesengura, ndetse buri wese atange ibitekerezo kugira ngo baze guhuza ibitekerezo, bafatire umwanzuro hamwe.

Inzu nini cyane y'uruganda irimo amamashini atunganya ama poroduwi akorwa n'uruganda, harimo n'umuntu urimo atembera arareba uko imashini zikoraba, nimba hari izidakora kugira ngo abashe gutanga raporo.

Ku kigo nderabuzima ababyeyi baje gukingiza abana inkingo bagenewe ibigendeye ku mezi bagezemo cyangwa imyaka bafite abo n'ababyeyi bambaye udupfumunwa kugira ngo babashe kwirinda uburwayi bwandurira mu myanya y'ubuhumekero.

Mu cyaro, hari inzu zubatse mu buryo gakondo, zubakishije ibiti ndetse ubona hari ibiti byinshi bihazengurutse ndetse hari umubyeyi uvuye kuvoma amazi mu ndobo imwe yayikoreye iyindi ayitwaye mu ntoki, hari ibiti byinshi binini bikorwarwamo ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi bishobora gukorwamo kandi ibicanwa ndetse hari ibyatsi hasi byifashishwa nk'ibiryo by'amatungo.

Kwa muganga mu cyumba kinini cy'ibitaro kirimo imashini zitandukanye ndetse n'abaforomo bari gukoresha izo mashini bavura abarwayi. Imashini nziza zigezweho zikoresha ikoranabuhanga n'ubuvuzi bwa gihanga buteye imbere.

Kuri site y'ubuvuzi ku kigo nderabuzima hahuriye abantu benshi bari gushaka serivisi, aho ubona ikigo nderabuzima kiri ahantu hitaruye hazengurutswe n'ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse hubatse itente bigaragara ko bari gupima abantu, uburwaye kugira ngo babashe guhabwa ubufasha ndetse n'abaturage bamenye uko bahagaze.

Ku kigonderabuzima aho ababyeyi ndetse n'abandi bazindutse baza kwipimisha ngo barebe uko bahagaze, hari umuganga wabyigiye uri kubafasha kubapima, ababwira uko bahagaze mu mubiri.

Muri salle nini cyane hicaye abaturage bari guhabwa amabwiriza n'umuganga ababwira uko bagomba kwirinda ndetse bagakurikiza inama za muganga igihe baje kwivuza ndetse abagira n'inama y'uko bakitwara mu gihe barwaye.

Kuri site ahantu hahuriye abantu benshi baje kwisuzumisha, abaforomokazi bari gusuzuma abantu indwara zo mu kanwa, hari umusaza ugezweho wasamye, umuforomo ari kureba ikibazo yaba afite mu kanwa cyangwa mu menyo.

Ku ivomo ryiza cyane rifite amazi meza, hari umwana uri kunywa amazi akoresheje ibiganza bye cyangwa intoki, azengurutswe n'abandi nabo ubona ko bafite inyota biteguye kuza kunywa kuri ayo mazi meza.

Ku irerero hari abantu benshi, hari abana ndetse n'abayobozi baje kubagaburira, hari umuporisi uri guha umwana, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagenda bagaburira abana babereka urukundo.

Inyubako nziza nini cyane, izengurutswe n'ibiti ndetse n'indabo zituma hagaragara neza n'abantu batandukanye, bari gufata ifoto y'urwibutso, ubona ko bishimye ndetse basoje igikorwa bari bari gukora.

Ikirango cya Wasac, ikigo gishinzwe amazi mu Rwanda, ikigo gishinzwe kureba ikoreshwa ry'amazi cyangwa aho amazi afite ikibazo bakajya kuhakemura, ndetse n'aho amazi ataragezwa, bakaba bafite inshingano zo kuyahageza mu buryo buciye mu mucyo.

Kuri site hatangirwa inama z'ubuvuzi ndetse n'ubuzima, hari abafashamyumvire mu by'ubuzima ndetse hari abanyabuzima benshi ubona ko bagiye gutanga inyigisho ku buzima n'ukuntu abaturage bakitwara kugira bagire ubuzima buzira umuze.

Umugezi uzana amazi meza, uzana amazi meza,u mugezi w'igihombo kimwe cy'amazi aza y'imena. Umuntu uri gukaraba intoki, asukura intoki, ubona ko ari amazi meza cyane y'urubogobogo.

Mucyaro hari umugezi aho hari umuntu aje gushaka amazi kuri uwo mugezi mwiza utanga amazi meza, aturuka ku isoko hakikijwe n'ibyatsi n'ibiti ubona ko ari mu cyaro.

Ivomo rusange, hari abana baje kuvoma bafite utubuni ndetse hari umukobwa urimo upomba kugira ngo amazi abashe kuzamuka, ubona riherereye ahantu hari imirima miremire, ihingwamo ibiribwa n'ibinyampeke imyumbati, ibijumba, bishimbo, ibigori ndetse n'ibindi, ubona kandi hari ibiti bitanga akayaga keza ko guhumeka.

Akagezi gato gatemba, abantu baje gushaka amazi yo gukaraba, gutekesha ndetse no kuhiza imyaka mu gihe itameze neza.

Muri sale nini cyane aho hahagaze umugore imbere yimbaga nyamwinshi ari gutanga amabwiriza ndetse bagira inama abantu bicaye batuje cyane bari kumva ibyo uwo mugore ari kubagezaho.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane batandukanye, hari umuntu uri kubaha ibipapuro byanditseho ibintu by'ingenzi byo gusoma ndetse ubona bose bafite amatsiko yo kumenya ibiri kuri izo mpapuro ziri gutangwa.

Kwa muganga hari abaganga benshi ndetse n'ababyeyi bazanye abana babo, baje kubakingiza inkingo zitandukanye ndetse abaganga bari kubitaho, bakabakingira abana kugira ngo baze kugira ubuzima bwiza.

Sare irimo abantu benshi, bahuriyemo baje guhabwa amahugurwa ndetse n'ikiganiro kijyanye n'ubukwe bwabo, Ubona bishimye, bicaye batuje, kugira ngo babashe kumva icyabagenewe ndetse n'impanuro bari guhabwa.

Ivomo rusange riri ahantu hitaruye ubona ko hari abana benshi bahazindukiye baje gushaka amazi, ndetse n'abandi ubona bari gushungera bari kureba uko uwo mugezi ukora, bazengurutswe n'isambu nini cyane ihingwamo ibiribwa ndetse irimo n'ibiti byifashishwa mu gukora intebe ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo bishobora kuvamo nk'inkwi n'ibindi.

Kwa muganga baje gukingiza umwana, ndetse umwana we kwitabwaho na muganga kugira ngo abashe guhabwa urukingo ndetse barimo babaza umubyeyi uko yaba abona umwana we yitwara muri icyo gihe arwaye.

Umusore wazindutse uri gukaraba intoki ndetse ubona ko ari gukora amasuku n'isabune n'amazi meza, imbere hariho umwana ufite amazi muri rozwari, aho ari kugenda amusukira ku ntoki, nawe agakaraba kugirango abashe kwikuraho umwanda afite mu biganza.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka amazi yo kwifashisha mu mirimo yo mu rugo ndetse no kuyakoresha bakaraba, bateka ndetse banuhira imyaka, hari n'abari gukarabira ku mugezi kugira ngo bagire isuku nziza nk'ubuzima bwiza.

Ku kigo nderabuzima aho abaforomo bose bahuriye hanze y'ikigo nderabuzima, bishimiye umuntu bakiriye, ndetse bari kuganira na we bishimye, bamuririmbira, bakoma amashyi, ubona ko bishimiye n'icyamuzanye.

Akarima k'igikoni kazengurutswe n'abantu batandukanye, abagore n'abagabo ubona ko bari gutera imboga, muri ako karima k'igikoni, zizifashishwa nk'ibiryo birwanya uburwayi, ndetse n'igwingira ku bana bato.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, biteguye gukora akazi bafite udukarito turimo ibikoresho byo gukoresha bari ku bitaro; biteguye kuvura nk'akazi kabo ka buri munsi.

Mu cyaro umukobwa usa neza cyane uri kuvamo amazi ndetse ubona amaze kumesa, inyuma ye hanitse imyenda myinshi amaze kubikorera amasuku, ndetse hari n'ibindi ibiti byiza bitanga umuyaga, ndetse harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Mu gisagara ahantu hanini cyane hari ubuso bunini kubera abana, ndetse umwana ufite amazi mu birahure bibiri, amazi asa neza, ndetse inyuma ye hari icyinogo kirimo amazi asa nabi, ndetse ubona ko ari mu gisambu kidahinze, kitarimo imyaka, ariko cyitegurwa guhingwama.

Ahantu kuri site, aho bagiye kwigisha abaturage uko bakirinda SIDA ndetse banabafasha kubapima ngo barebe uko bahagaze, barebe ababa baranduye, bakomeze kwirinda, banarinda abandi ndetse n'abatarayandura na bo birinde, birinde ibikorwa byatuma bayandura.

Umugezi mwiza uzana amazi meza, hari umuntu uri gukaraba ibiganza yisukura intoki kugira ngo akomeze kugira isuku, ibyo aribuze gukoraho byose bitaribuze kumwanduza cyangwa na we ngo abyanduze uburwayi bw'umwanda.

Ikigo kinini cy'amashuri, abana bari gukina mu gihe cy'akaruhuko ndetse baje kunywa amazi ku ivomo riri hagati mu kigo, ubona ari ivomo rifite amazi meza ryubatswe mu buryo bugezeho bwa gihanga.

Mu gisagara mu kirambi ahantu hanini cyane ku ivomo rusange, hari umubyeyi wazindutse n'ipara aje kuvoma amazi yo gukoresha imirimo yo mu rugo, hari kandi udusozi n'imirima ihingwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ivomero rusange rikomera imbere n'inyuma hari uruhuri ku bantu benshi baje gushaka amazi bitwaje indobo ndetse n'amajerekani hafi yaho hari ibiti byiza by'intanganorumbo biti byiza byifashishwa gukora intebe zo gukoresha amaboko n'ibindi bikoresho ndetse n'inkwi abaturage bacana.

Urujyanuruza rw'abantu benshi aho bahuriye ahantu hamwe kugira ngo baze kubaha umwana w'urukingo cyangwa umuti, ndetse ari gupimwa uburebure ngo harebwe indeshyo nimba ingana n'imyaka afite kugira abashe guhabwa ubufasha bwisumbuyeho.

Mu cyaro ku ivomo rigezweho ryiza rifite imigezi itatu mu mpande zitandukanye, abaturage baje kuvoma kugira ngo babone amazi bakoresha mu mirimo yo mu rugo kumesa, gukora amasuku nko kugukopa ndetse no guteka ibyoku kurya.

Ururya n'uruza ku bantu bambaye imyenda iriho ibirango by'ubuvuzi, baje kwiziwiza umu mpuzamahanga wokurwanya kanseri, ndetse banasuzuma abantu kugira ngo barebe uko bahagaze, har' igiti cy'indanganzamarumbo cyiza cyane gituma hazamo akayaga ndetse numwuka mwiza.

Ku kigo nderabuzima, aho abanyabuzima bishimiye kwakira umuyobozi urimo kubagezaho imfashanyigisho ndetse ubona bari kubyina bakoma amashyi kugira ngo bakire umuyobozi wabo neza.

Ku kigo nderabuzima hicaye abantu benshi, aho bari guhabwa amabwiriza n'umuforomokazi n'uko bagomba kwitwara bigaragaza ko baje kwivuza ariko bakaba babanje guhabwa amabwiriza n'umuforomo ukora.

Icyumba kinini cyahuriyemo abantu batandukanye, bagiye bigabanyije mu byiciro bicaye ku meza buri bamwe, baganira ku ngingo bahisemo runaka ndetse banungurana ibitekerezo kugira ngo barebe icyo bageraho.

Kwa muganga hari abantu benshi baje gushaka serivisi zijyanye n'iby'ubuzima ndetse abaforomo bazindutse bari kuzuza amakuru, yabo y'ibanze kugira ngo baze guhabwa ubufasha.

Umugezi munini, mugari, mwiza, utemba harimo abana barimo bavoma amazi bakoresheje indobo ndetse inyuma yabo ubona ko hari akazuba ndetse n'utundi dusozi n'imirima.

Ameza ariho ibyo kunywa ndetse ubona hari abagabo, bazengurutse ameza bari kuganira ku ngingo bungurane ibitekerezo ndetse buri umwe ateze amatwi mugenzi we, kugira ngo babashe kugera ku ntego mu kumenya uko ikibazo bariho kwigaho cyakemuwe.

Mu cyaro abana bishimye bari gukaraba intoki, ubona ko bari kwigishwa kugira isuku mbere yo kugira ibindi bakora nko kurya, ndetse n'ibindi bakora babanza gukora amasuku mu ntoki zabo bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, ubona bishimiye amasomo bari guhabwa, n'umugabo ubahagaze hejuru uri kubereka uko bakaraba mu ntoki.

Ibitaro byiza byubatse bisa neza bifiteye isuku ndetse bizengurutswe n'ibiranga umwuga, imbere ndetse n'abandi bari kububera ahantu hatuje ndetse bamwe abaganga n'abaforomo ndetse n'abaterankunga baje gusura ibitara aho barifata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi ndetse beza cyane, harimo umubyeyi n'abana bamukikije, ubona ko bishimiye ibyo bari kureba, ndetse banezerewe cyane, akamwenyumwenyu ku maso, bazengurutswe n'ibiti byiza bibaha umwuka bahumeka.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho umuganga ari kwereka umubyeyi uko yaha umwana imfashabere mu gacupa ndetse n'umubyeyi ubona yishimye, yishimiye no gufata amasomo y'uko yajya aha umwana imfashabera.

Ku ivomero rusange mu mudugudu, ahari abantu benshi ubona bafite amajerekani menshi batonze kugira ngo baza kuri bavome babone amazi bacyura imuhira, bazengurutswe n'ibiti byiza by'inganzamarumbu bikorwarwamo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo.

Icyumba kinini cyiza, abantu bicaye bazengurutse imeza, abagabo n'abagore cyangwa abasore n'abahungu, bari kwiga uko akazi gakorwa cyangwa ibyo bagezeho mu kazi, bari kunywa ka cyayi ndetse bahabwa n'amabwiriza.

Ibimodoka binini bya rukurubane bihetse imfashanyo bizijyanye ahantu hatuye abantu badafite ubushobozi, harimo nk'ibiryo ndetse n'imbuto n'ibindi bikenerwa.

Mu kigo kinini cyane mu nzu aho hicaye abanyabuzima bari guhabwa amabwiriza ndetse n'imfashanyigisho, bose bafite amakaye ndetse n'amakaramu ubona bari kwandika ibitekerezo bari kugezwaho kugira ngo bazabashe kwita ku bantu barwaye mu buryo bukwiriye.

Mu cyaro ahantu mu gisagara hari umugezi rusange cyangwa ivomo rusange, aho ubona hari abana baje gushaka amazi. Aho hari uri gopompa inyuma kugira ngo amazi azamuke ubundi abashe kuvoma, hakikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibindi biti binini bitanga umuyaga mwiza abantu bahumeka.

Isange One Stop Center hatangirwa serivisi z'abantu bahohotewe, cyane cyane ihoterwa rikorerwa ku gitsina. Nko gufata abana cyangwa abagore ku ngufu cyangwa gukorana na bo imibonano mpuzabitsina ku gahato, nta bushake babigezemo.

Mu nama ya RBC, aho hari abantu b'abayobozi benshi bari kwiga ku gikorwa runaka bungurana ibitekerezo ndetse hagakosorwa n'ibitagenda neza

Umurima mwiza munini cyane ubona ko ukikijwe n'ibiti byiza by'inganzamarumbo, bizana akayaga keza abantu bahumeka ndetse barimo gutera n'igiti kindi bagaragaza ko ibiti ari ingenzi.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda yacitse ubona ko bagowe n'ubuzima, bamwe bari kurera ubona ko bari kwaka ubufasha cyangwa imfashanyo, babayeho nabi mu buryo bwose, basa nabi badahe gukaraba babona ko ubuzima bwabagoye.

Ni icyumba cyiza, kinini cyane, cyahuriyemo abantu benshi batandukanye biganjemo ababyeyi, bamwe bafitiye abana ndetse abandi badafite abana, bicaye ku ntebe aho bari guhabwa amabwiriza n'ifashanyigisho n'umuntu ubahagaze imbere. Hari kandi ameza manini ndetse n'aho umuntu uhagaze imbere ari kwandika abasobanurira.

Mu cyumba kirimo abantu benshi batandukanye, harimo umubyeyi uri gutanga igitekerezo bigaragara ko atishimiye igitekerezo cyangwa ibyari bimaze kuvugwa n'ubayoboye.

Mu iduka ahahurira abantu benshi baje guhaha ibiribwa bitandukanye ubona ko iduka ririmo ibintu byinshi harimo mayoneze, salisa ndetse n'ibindi birungo bikoreshwa mu biryo bifunze mu dushashi no mu ducupa.

Ku muhanda hicaye umuntu utagera hepfo na ruguru, bigaragara ko ari umukene, wambaye imyambaro yacikaguritse ufite amazi mu gacupa, ndetse ubona ko ubuzima bwamugoye, asa nk'uwihebye, asa nk'aho adaherukaruka gukaraba, ubona ko akeneye ubufasha.

Icyumba kiza kinini cyane, sare irimo abantu benshi batandukanye bicaye aho bari kwiga ku kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse nuko bagikemura aho bari kungurana ibitekerezo kugira ngo barebe ikibura ngo bacyongeremo cyangwa ikitagenda neza.

Uruhuri rw'abantu benshi bigaragara ko bari guhunga ari abakene batagira epfo na ruguru, hari abana bari kurira bateye agahinda, bigaragara ko babayeho mu buzima bubi batishimiye.

Umugabo usa nk'aho wakuze ufite imisatsi yanze kwiyogoshesha irimo umwanda mwinshi cyane ukabije ndetse n'ubwanwa bwajemo n'mvu bumukuka nubwo bwizinze wambaye imyenda isa nabibonaruka gukaraba ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe cyane k'imitekerereze.

Kuri site y'ubuvuzi ahantu hagari mu kibuga haparitse imodoka irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga bari gutanga ubufasha kuri site y'ubuvuzi, aho bari gusuzuma abantu batandukanye bareba uburwayi bwabo aho butandukanye n'ubwubumuga babafashe.

Icyumba gisa nabi cyane cyane, kirimo umuntu w'imfungwa ugifungiwemo usa nabi, bigaragara ko adaheruka ka gukaraba, icyumba gisa nabi kirimo imyanda myinshi, hasi hasa nk'umukara, infungwa yambaye ubusa bigaragara ko itotezwa buri munsi.

Abana benshi bicaye hasi bishimye, buri umwe wese afite akamwenyu ndetse bamwe bari guseka cyane, ubona ko ibyishimo byabarenze, bahurijwe ahantu hamwe kugirango babashe kumvira ijambo hamwe.

Umukecuru ushaje cyane bigaragara ko akuze afite imyaka myinshi wambaye igitambaro mu mutwe ndetse afite n'urunigi mu ijosi, agoswe n'ibiti ndetse n'ibyatsi byinshi.

Mu cyumba cyiza kinini cyane hari gusa neza hari abantu bari gufata ifoto y'urwibutso benshi cyane abakobwa, abasore, inkumi, abagabo ndetse n'abagore, nabo ubona ko bari gufata ifoto be uko bijyanye na haranditse ikigo gikuru cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Mu rugo, mu cyaro hari umubyeyi uri kugirwa inama n'ubuyobozi, amugira inama y'uko yakwitwara mu buzima butoroshye arimo cyangwa ibihe bikomeye ari gucamo.

Mu kibuga kinini cyane hari abantu bicaye ndetse hari n'abari kubabaza ibibazo kugira ngo babahe amakuru yerekeranye n'ubuzima ndetse babashe kuyakusanya, bagire ibyo bahinduramo cyangwa bakuramo.

Ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri bateraniye ahantu hamwe, bishimye cyane ndetse bazamuye ibiganza, bari guseka ku masura bigaragara ko ikiganiro cyangwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose barimo, cyabanejeje cyane.

Mu cyumba kinini ahari abantu bicaye batuje, ubona ko biteguye kwakira inama z'umugabo ubahagaze imbere uri kubasobanurira uburyo ibintu bikorwamo ndetse nabo ubona batuje bari gukurikike, bafite amatsiko yo kubimenya.

Amakuru mashya ya kimwe cyateraniyemo abantu benshi ubona ko bose bishimye hari umukozi we kuko bakuje ijambo ariko byari kugira icyogeza ku bantu bari nabona imbere ye ahagaze umukuta wishimimwe ko yishimiye iyi m impanuro umukecuru ari gutanga.

Mu murima hari imisozi ndetse hari ababyeyi batatu n'umwana uri konka, hari ibiti bibakikije, ibyatsi ndetse n'ibindi bihingwa ubona ko bari kwitegereza imirima, bari kureba uko imeze.

Abantu benshi bahuriye ahantu hatandukanye ndetse bahujwe n'igikorwa runaka. Bakaba bagisoje bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bayireba bibuke igikorwa bari barimo.

Ku rubaraza rw'inzu nini cyane cyane, aho hari gufatwa ifoto y'abajene ndetse bari kumwe n'abantu bakuru, ubona ko bishimye ndetse ahantu hasa neza cyane.

Igikanka cy'amenyo aho cyacishijwe mu cyuma, kiri kugaragaza uko amenyo ateye agaragaza imizi y'amenyo ndetse n'umubare w'amenyo kugira ngo harobanurwemo abafite ikibazo, ubundi babashe kwitabwaho.

Mu cyumba cy'ishuri kiza cyane kirimo intebe abanyeshuri bicaramo. Kirimo abanyeshuri bariguhabwa ibikoresho bikoreshwa mu gukora amasuku mu menyo nk'uburoso, na crogate byifashishwa mu iki gikorwa cyo gukora isuku mu menyo. Ubona bishimiye guhabwa ibyo bikoresho kandi bizabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba cyo kwamagana, icyumba kinini kiza cyane kirimo ibikoresho bigezweho nk'intebe zo kwcaraho ndetse n'amamashini yifashishwa mu buvuzi, amamashini meza agezweho, akoreshwa n'umuriro, akoreshwa mu buryo bugezweho bwa gihanga.

Umukobwa uri gukora amasuku mu menyo ari kuborosa akoresheje uburoso ndetse na corogati kugira ngo amenyo akomeze gusa neza cyane, ndetse yirinde n'uburwayi bwanduzwa n'umwanda wo mu menyo.

Ifoto igaragaza umunwa cyangwa igikanka cy'amenyo cyacishijwe mu cyuma cyabugenewe, hagaragara amenyo yose uko ateye, agaragara imizi yayo ndetse n'amenyo atameze neza kugira ngo abashe kwitabwaho.

Umukobwa urimo ufite akantu bakoresha bakora amasuku mu menyo kariho urudodo kimwe n'akandi akantu kameze nk'urusinga ari gukoresha amasu mu menyo aho uburoso budashobora gukora hagati y'iryinyo n'irindi.

Icyumba kinini cyane cyumuganga kirimo ibyuma bigezweho byifashishwa mu buvuzi, aho bapima umurwayi uko ahagaze mu mubiri, ndetse byorohereza abaganga n'abaforomo mu kwihutisha serivisi ndetse n'ubuvuzi bugezweho, hari n'umugezi kugira bagire isuku babashe kuvura basa neza.

Umusore umwe uri muri douche uri gukora isuku mu menyo akoresheje akagozi kamenyo, kugirango abashe mu menyo hose cyane cyane hagati mu menyo aho uburoso bw'amenyo budashobora kugera.

Umwana muto wicaye imbere ya muganga yasamuye umunwa, muganga uri kumufata ibipimo byo mu kanwa ndetse ngo arebe uburwayi bw'uwo mwana abashe kumuha imiti, ibasha kumukiza uburwayi uwo mwana afite.

Umugabo cyangwa se umusore wari kwambara utwuma cyangwa udupalasitike bambara mu menyo kugira ngo amenyo atariribuze kugira ikibazo, nko kuba yagwa akavamo cyangwa hagira igikoma ku munwa amenyo agahungabana cyangwa akagira ikibazo.

Icyumba cy'ibitaro, kirimo umurwayi ndetse n'umuganga urimo kumwitaho, aho ari kumusuzuma mu kanwa ngo arebe uko amenyo ameze, afite ikibazo abashe gukurwamo, cyangwa avurwe mu bundi buryo bwabugenewe.

Mu cyumba cyiza kikoranye isuku abaganga bari kwita ku murwayaho ariko mureba umuntu kumusuzuma indwara zo mu maso cyangwa mu jishomere y'ibikoresho byabugenewe'mwete yifashishwa n'ga kugira ngo ubashe kureba neza no umuntu kugira abashe kwanduzanyakwe kwambu mu myanya y'ubuhumekero.

Mu nzu nini hari abaforomo cyangwa abigiye kureba uburwayi bw'amenyo ndetse hari n'abicaye ku ntebe, aho bari gusuzuma mu kanwa ngo barebe uko amenyo yabo ameze.

Igikoni cyiza kinini cyane kirimo ibikoresho byifashishwa mu gikoni ndetse harimo n'intebe umuntu yicaramo ari koga. Harimo ibindi bikoresho bigezweho harimo na televiziyo bareberaho amakuru ndetse harimo imigezi myiza umuntu abanza gukaraba agiye kwikuraho impumuro mbi.

Umugabo uri kwerekana uko umuntu ashobora kwikorera isuku mu menyo, akoresheje umugozi cyangwa urudodo. Gukora isuku hagati y'amenyo cyangwa aho iryinyo rihurira n'irindi, aho uburoso bw'amenyo budashobora kugera.

Amenyo cyangwa igikanka kiri ku ifoto bigaragara ko bamajije gucisha mu cyuma umuntu ugaragaza amenyo, abafite ikibazo n'adafite ikibazo kugira ngo afite ikibazo yitabweho ndetse amere neza.

Umwana muto cyane mwiza w'inzobe. Kwa muganga, umuganga yambaye ga kugira ngo abashe gupima uburwayi neza. Ari gupima uburwayi bwo mu kanwa kugira ngo harebwe uko amenyo ye ameze, ndetse n'uko ururimi rwe rumeze, nimba nta kibazo afite.

Mu cyumba cy'ibitaro hari umurwayi uryamye ku gitanda ndetse n'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe, harimo ga ndetse n'agapfukamunwa kugira ngo abashe kuvura umurwayi neza. Afite kandi umugozi wo gufatisha ibipimo kugira ngo amenye uko umurwayi ahagaze ubundi abashe kumuvura.

Umwana uri kwerekana uko umuntu ashobora gukora isuku mu menyo akoresheje uburoso, uko agomba kuba abufashe ndetse n'amenyo uko agomba kuba ameze, mu gihe yitegura kuyakorera amasuku.

Umurwayi w'iryinyo umaze gukurwa iryinyo ry'imbere ubona ko ryari rifite ikibazo cy'uburwayi gishobora kwanduza n'ayandi, umuganga ni we umaze kumukuramo iri ryinyo none agiye gushyiraho umuti kugira ngo igikomere kibashe gukira neza.

Icyumba cyiza cyane, kirimo ibikoresho byiza byo kwa muganga, cyo gusuzuma umurwayi ndetse n'amamashini meza agezweho, asuzuma umurwayi hakoreshejwe uburyo bugezweho bwa gihanga.

Ifoto igaragaza igikanka cy'amenyo cyacishijwe mu cyuma, kugira ngo abashe kurebwa uko amenyo ameze, ubu ni amenyo n'imizi yayo, ndetse hagaragara amenyo ateye ikibazo, n'adafite ikibazo kugira ngo abashe kuvurwa.

Ahantu heza hatuje cyane hanze, hicaye umukecuru ukuze ndetse n'umuforomokazi uri kumupima ngo arebe uko ahagaze mu mubiri, hazengurutswe na jaride irimo ibyatsi n'uturabyo twiza ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo bibaha umwuka bahumeka.

Ahantu hatuje hari umuntu ukuze usheshe akanguhe uri gukora siporo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, uri kugorora ingingo ze umugongo cyane cyane yibanda ku maguru ndetse n'amaboko kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Mu muhanda munini hari abantu bari gukora siporo y'ingeri zitandukanye abagabo, abasore ndetse n'abagore. Ubona bazindukiye muga siporo kugorora ingingo birukanka ndetse hari jaride zizengurutse umuhanda zigaragaza ubwiza bw'umuhanda.

Mu rugo hari abana babiri ndetse na sekuru, bari kurya bananywa amata, bari kurya umugati cyangwa ibirayi bananywa amata.

Ahantu hatuje cyane muri jardin hazengurutswe n'ibyatsi ndetse n'ibiti binini bigaragara neza. Hari amamodoka menshi ahakikije, ndetse hari umubyeyi, urigukora siporo yicaye arikunanura amaguru ndetse n'ingingo z'umumavi.

Mu rukerera mu gitondo cya kare cyane, umusaza yazindukiye muri siporo, aho ari gukora siporo atererura utwuma twabugenewe two mu maboko, agorora imitsi ndetse n'izindi ngingo z'umubiri.

Umuntu uri kugenda ukuze afite akantu kamufasha kugenda, kubera asheshe akanguyehe cyangwa nta mbaraga afite, ari kuganira n'umwana we bishimye cyane, bari mu muhanda bafite aho berekeye cya bagiye gutambagira.

Umuryango wishimye w'umugore n'umugabo basheshe akanguhe, ariko bigaragara ko bishimye bari gukina bicaye ku meza banaganira, bishimiye umubano wabo.

Gurupe abantu benshi bakuze bari gukora siporo kugira ngo bagire mu buzima bwiza, abantu bari gukora siporo baterura utwuma duto twabugenewe tw'abantu bafite imbaraga ku kigero cyo hasi.

Umukecuru ndetse n'umwana we ubona ko bishimanye bari gutegura ibyo kurya byivanzemo imboga n'imbuto ari byo byifashishwa nk'ibiribwa birinda indwara bikunda kuribwa n'abantu bakuze ndetse n'abato kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Umuryango mwiza munini ubona ko abana bose ndetse n'ababyeyi babo basa, ku maso bari guseka, bishimye, bishimanye ibihe bagiranye ubona ko bari gufata agafoto baseka, bari ahantu hazengurutswe n'ibiti byiza by'inganzamarumbo bitanga akayaga, urabona ko ari byiza urebesheje amaso.

Munsi y'igiti kiza k'iganzamarumbu hari abayobozi bari kwerekana ibikoresho byifashishwa n'abarwayi bafite ubumuga yaba bwo kutagenda ndetse n'ubw'izindi ngingo cyane cyane bwo kutagenda kuko hari ibyuma bagenderamo ndetse hari imisarane ashobora kwifashisha yicaye ndetse n'imbago umuntu agenda yicumbye mu gihe adashoboye kugenda n'amaguru.

Mu rugo kumeza mu nzu nziza cyane, inzu isa neza igaragara ko ari inzu iteye imbere harimo ibishushanyo byinshi, hari abana bicaranye na nyirakuru kumeza aho bari gukina amakarita, ubona ko bishimanye bagiranye ibihe byiza.

Murugo imbere yameza hicaye abantu babiri bakuza, umugore n'umugabo aho umugore arikwereka umugabo igipapuro cyanditseho uko agomba gufata imiti ye, ndetse n'amasaha agomba kuyifatiraraho.

Abantu benshi bicaye munsi y'igiti, bakoze akanama bari kwiga ku ngingo runaka bungurana ibitekerezo ndetse bahisemo ahantu heza hari agacucu ho kwicara kugira ngo batabasha kunanirwa.

Mu cyumba kiza kinini cy'ibitaro, aho ubona hari umukecuru wishimye n'umuforomokazi bigaragara ko yishimiye serivisi ari kumuha ndetse n'uko ari kumwitaho ubona ko bishimanye pe, hari inzu izengurutswe n'intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byifashishwa n'abarwayi ndetse n'abaganga mu gihe bakira abarwayi.

Mu cyaro ahantu hatuje umukecuru wicaye hanze uri guteka ateretse inkono ku ziko cyangwa isafuriya ku ziko urimo gucana ndetse yota ku manywa, hari ibi ibyatsi bimukikije.

Umugore n'umugabo ubona ko bashashe akanguhe bicaye ku meza, aho bari gusangirira ibiryo ndetse byiganjemo imbuto, imboga n'ibindi bitera imbaraga, imbuto n'imboga birinda umubiri guhura n'uburwayi ndetse n'ibindi binyampeke nk'ibirayi bituma umuntu akomeza kugira imbaraga.

Mu kibuga ahantu harambuye, hahurira abantu benshi, hari umukecuru cyangwa umuntu ukuze w'umumama, bigaragara ko ari gutanga ijambo, ufite mikoro mu ntoki, azengurutswe n'ibiti, inzu ndetse n'amamodoka ahaparitse hirya.

Mu rugo rw'umukire wazanye umuforomo cyangwa umufasha gusuzuma uburwayi cyangwa uko umubiri we uhagaze, urimo ukoreshwa siporo kugira ngo agende ananura barebe ko ingingo ze zikora neza.

Abantu babiri bicaye ndetse bari gukina chesse ubona ko buri umwe yishimiye undi ndetse bose baryohewe n'umukino bari gukina, kugeza aho buri umwe wese ari kumwenyura ndetse afite n'akamwenyumwenyu ku maso, bishimye bari kuganira banakina.

Kwa muganga musa neza cyane yari mu umugabo kugenda neza dufite imbaraga ahomufashishamo kabugeni ndetse hari n' yazimirwa azajya agenda gutembera.

Umwana ndetse na sekuru ubona ko bicaye mu rugo rwiza rurimo amasuku ndetse bicaye ku meza buri wese afite igikombe cy'icyo kunywa kugira ngo babashe kuganira bameze neza, ubona ko umusaza ari gusomera inkuru uwo mwana ndetse anamusobanurira koshimye bose bari guseka bishimiye ibiri mu gatabo bari gusoma

Mu cyumba cyiza cy'inama aho abantu bicaye, bateze amatwi umuntu uri kubasobanurira ndetse uri no kubahugura ku bintu ari kubigisha runaka ndetse bose bicaye bafite imashini batuje kugira ngo bahabwe n'ubumenyi rusange.

Mu cyumba cy'ibitaro kiza kinini cyane kimanitsemo amamashini babasha kwifashisha bavura abarwayi cyane cyane mu kubaga, ubona hari abaforomo biteguye gutanga serivisi yo kuvura umurwayi kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze cyangwa batabare ubuzima bwe butameze neza.

Umunsi mukuru wahariwe kurwanya diyabete ku isi hose. Ahari gutangwa, ahatangwa inama z'ukuntu mwakiranda uburwayi bwa diyabe cyangwa uburyo bu gukora isukari nyinshi mu mubiri.

Ibiribwa byivanzemo imboga ziteguye neza harimo karoti, urusenda, umureti ndetse n'izindi nk'imiteja n'ibindi ziribwa kugira ngo zirinde indwara ndetse zitere n'imbaraga, zituma umuntu akomeza kugira ubuzima bwiza.

Ishusho cyangwa icyapa kigaragaza RBC mu magambo arambuye ivuga, Rwanda Biomedical Centre, aho iki ari ikigo gishinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage hano mu Rwanda.

Sare nini cyane irimo abantu biganjemo urubyiruko rw'abakobwa, aho bari gusobanurirwa n'umuntu uri imbere igishushanyo runaka, ari ukubereka uko gikoreshwa ndetse n'ibikigize, bose batuje bari gufata amasomo n'amabwiriza y'uko bikora.

Ukuboko kuriho ibiheri nk'indwara y'uruhu, yandura binyuze mu matembabuzi cyangwa binyuze mu gukoranaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iravurwa igakira mu gihe umuntu agiye kwa muganga.

Icyumba kinini k'inama irimo abantu benshi batandukanye bicaye ndetse hari n'abandi babicaye imbere bari kubasobanurira, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'aho bigeze mu gutanga ubuzima nk'ubuvuzi n'ibindi bijyanye nabyo.

Icyapa cyo kwa muganga kigaragaza ibyiza byo kwikingiza indwara ya kovide cumi n'icyenda yaturutse mu Bushinwa, ndetse kigaragaza ko gufata urukingo rw'iyo ndwara ari byiza kugira ubashe kwirinda urinde n'abandi.

Abaganga bari ahantu bambaye imyenda bikwije hose mu maso hose bipfutse, bigaragara ko bashobora kuba bagiye kuvura indwara yandura, bakaba bambaye iyo myenda ibarinda, kugira ngo batabasha kwanduzwa n'abarwayi bagiye kuvura.

Ku kigo cy'amashuri hari ibyuma abana bacungamo barya umunyenga mu gihe cy'akaruhuko, ikigo kizengurutswe n'igipangu kiza cyane kinini kugira ngo abana batari buze gusohoka ikigo bamwe bakazimira abandi bakaba bagirira ikibazo hanze y'ikigo.

Ku ikigo nderabuzima kiri ahantu hitaruye heza hatuwe, harimo jaride isa neza cyane irimo indabyo uducaca ndetse n'ibiti bitanga umuyaga ubona bifite amashami maremare cyane kandi umuyaga mubi biwukuramo kugira ngo bibashe kubona umwuka bihumeka mwiza usukuye.

Salo nziza cyane ikeye irimo ibikoresho byose bikenerwa muri salo nk'intebe, ameza, intebe z'abashyitsi zitandukanye n'intebe zo kuriraho harimo utubati tubikwamo ibikoresho bikenerwa byo muri salo ndetse n'akabati kajyamo televiziyo.

Mu ishuri aho umwana ahagaze imbere y'umwarimu ari kumusobanura uko umuntu akoresha uburoso yibororoza ndetse asukura amenyo, inyuma hari abandi bantu na bo bategereje kugira ubutumwa cyangwa ubumenyi baha abana.

Ibitaro byiza cyane ya aho amaso batuya sesi zobura amaso uruta gusa neza n'se bikikijwe na geber ho indabyo n'ibindi byatsi bazimo bituma

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, ikigo nderabuzima kinini gisa neza ubona gifite isuku, ndetse hanze hicaye abarwayi ubona ko baje gushaka serivisi ku bitaro, ndetse ikigo kiri ahantu heza hatuje hazengurutswe n'ibiti bizana akayaga keza, ndetse no hanze hari umucaca aho abantu bicara ku kibaraza, ndetse ubona ari ibitaro bigezweho byiza.

Ku muryango mukuru w'ibitaro bya Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge, hari icyapa cyerekana ko ari ibitaro bya Nyarugenge ndetse ari na ho abantu binjirira.

Icyumba cyiza kinini cy'ibitaro kirimo ibikoresho bigezweho n'ibitanda abarwayi baryamaho, ibitanda bifite amapine ku buryo kimurwa igihe icyo ari cyose bashaka kwimura uriya murwayi bitabaye ngombwa ko bamuhagurutsa.

Ku mupaka cyangwa ku marembo y'ikigo hafunze, hariho umusekirite ushinzwe gufungurira abantu ngo binjire. Ndabona ari ikigo nderabuzima gikomeye cyane kirimo urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi z'ubuzima.

Icyumba cyo kwamuganga cyuzuyemo ibyuma bigezweho, bikoreshwa mu buvuzi, aho muganga cyangwa uwabyigiye, abiha komande cyangwa abitegeka icyo bigomba gukora, ubundi byo bikabikora.

Ikigo cyiza kinini cyane, ubona cyubatswe mu buryo bugezweho, gishinzwe gukora ubushakashatsi ku miti. Imiti ivura indwara zitandukanye ndetse n'indwara nshyashya, na bo baba bafite inshingano zo gukora ubushakashatsi ku miti yavura izo ndwara.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo butangaje ndetse bukomeye, buri muntu wese yakifuza kubireba, bigaragara ko ari kwa muganga, cyangwa ibitaro byiza bikomeye cyane hari abantu bari hanze, ndetse hazengurutswe n'ahantu heza, hari ajaride n'umucaca bizana umwuka w'imbere mwiza.

Icyumba kinini cyiza kirimo ibikoresho byo kwa muganga, imashini zigezweho ndetse n'ibitanda umurwayi aryama akegama ubundi agapimwa. Ndetse hari n'ibindi bikoresho byiza nk'imiti ndetse n'ibindi byifashishwa kwa muganga.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi aho batangira serivisi z'ubuvuzi ndetse zikomeye zananiranye ku bitaro byo hasi, ubona ari ibitaro byiza, harimo ibiti bitanga akayaga kugira ngo abarwayi ndetse n'abaganga n'abandi barimo imbere babashe kubona umwuka mwiza bahumeka.

Mu cyumba cy'ibitaro hari umurwayi uri gufata ibizamini ngo arebe uko ubuzima bwe bumeze, ndetse harimo abaganga benshi, ubona ko bamwe bari kwandika ibiva mu bipimo, ndetse abandi babasha kumuganiriza ngo bumve uko ameze, n'uko ari kwiyumva.

Mu cyaro ahari umuntu ukuze cyangwa usheshekanguhe w'umukecuru ndetse n'umuganga umwicaye imbere n'akantu apimisha umuvuduko ndetse n'uko umutima utera, bazengurutswe n'imibyare inzu ndetse n'indabyo zibakikije.

Kwa muganga mu cyumba cy'ibitaro hari ibikoresho bisa neza cyane byuzuye isuku ndetse hari imashini zabugenewe zikoreshwa mu buryo bya gihanga n'uburyo bugezweho. Hari kandi igitanda kiryamishwaho umurwayi kugira ngo abashe kuvurwa ameze neza.

Icyumba cyiza gisa neza cyane kirimo amasuku ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenerwa mu cyumba cyo kwa muganga, harimo intebe ndetse n'akabati kabitsemo imiti. Harimo intebe zigezweho, umurwayi wicaye yegamye ndetse yicaye ari kurebana na muganga ku yindi ntebe.

Mu cyumba kinini cyahuriyemo abantu bakuze basheshe akangahe, aho bari kugirwa inama z'uko bakwitwara ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imibereho yabo nk'uko bishimye ndetse batuje no kumvamva inama n'ubusobanuro bari guhabwa.

Umusore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga ndetse hari umuforomo uri kumufata amaraso, ubona umusore yasize imbaraga mu kuboko kugira ngo abashe kugaragara umutsi uzana amaraso n'umuganga abashe kuwubona, umutere urushinge ubundi amukuremo amaraso, abashe gukoreshwa icyo yagenewe.

Imashini nini cyane nziza inyuzwamo umuntu kugira ngo harebwe ikibazo yaba afite mu mubiri we wose, aho imufotora mo imbere ndetse abaganga bakabasha kureba niba umuntu unyujwe mu cyuma nta kibazo afite mu mubiri. Ubona hari ibikoresho bya elegitoronike, ibikoresho bigezweho byifashishwa mu buvuzi.

Mu cyumba cy'ibitaro cyiza cyane, kirimo ibyuma bigezweho bivura mu buryo bwa gihanga, ndetse ibyuma bikoreshwa hakoshwa umuriro w'amashanyarazi, byifashishwa mu kuvura, byiza cyane, bikoreshwa nk'ubuvuzi bugezweho muri iki gihe.

Sare cyangwa se icyumba kinini ubona kirimo kamera zicunga umutekano, hariho n'isaha igaragaza igihe ku rukuta ndetse harimo n'ibyuma byabugenewe byifashishwa mu gukora siporo, harimo nk'utwuma duto two gutegura kugira ngo umuntu agire imbaraga n'ibindi bikoresho bitandukanye byabugenewe muri siporo.

Inzu nini ikomeye cyane, inzu y'aho bavurira indwara zijyanye na kanseri, inzu ubona ko izengurutswe n'ibiti ndetse na jaride irimo indabyo zitandukanye nziza zituma hagaragara neza.

Ahantu ku kumuhanda hatuje cyane, umuhanda w'amapave hicaye abakecuru babiri n'umuforomokazi umwe uri kubapima ngo arebe uko bahagaze, anababaza uko bari kwiyumva.

Ku bitaro byiza bya Rwamagana hopitale, aho hari abantu bari gufata ifoto y'urwibutso hanze y'ibitaro bisa neza, bizengurutswe na jaride irimo ibyatsi ndetse n'indabyo n'ibiti binini cyangwa se indabyo z'umutako ariko ndende zifasha kwinjiza umwuka mu bitaro kugira ngo abantu barimo babashe kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Ni icyumba kinini kirimo ibikoresho bigezweho bijyanye n'ubuvuzi cyangwa kwita ku mubiri w'umuntu, mu kumamasa cyangwa gukora ibindi bikorwa bituma umuntu amera neza.

Icyumba Kiza giteye amarange yiganjemo ay'umweru harimo umuganga cyangwa se umuforomokazi uri ku mashini cyangwa kuri mudasobwa aho ari kureba amakuru atandukanye ndetse na serivisi zitangwa mu buvuzi ziba zimeze neza.

Salle nini cyane ubona ko yahuje abantu benshi batandukanye biganjemo abantu bakuze cyane baje guhabwa inama ku mibereho yabo ubona ko umwe yicaye yisanzuye afite agacupa k'amazi iruhande rwe agenda anywaho kugira ngo ataribuze kurambirwa.

Icyumba cy'ibitaro kirimo icyuma kigezweho kinyuzwamo abantu barwaye kugira ngo bamenye uko umubiri wabo wose uhagaze. Bakinyuzamo umuntu bapima uko mu mubiri mo imbere hameze ndetse icyuma kigezweho cyiza cyane...

Mu cyaro hari inzu zubabatse mu buryo gakondo, ariko zubakisheje ibiti, hari umuganga waje gutanga ubufasha ndetse n'ubuvuzi, mu cyaro aho babana biteguye kwakira ubufasha, kandi imibyare yera aho ibitoki byo kurya n'ibindi bidukikije byinshi bisa neza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo kwa muganga, ibyuma bigezweho, byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse ibyuma byinshi cyane harimo n'utubati, ameza birambitseho ndetse n'ibimanitse hejuru biba biri kureba umurwayi hasi ndetse byifashishwa mu kuvura mu buryo bugezweho bwa gihanga.

Mu cyumba cyiza kinini cyane cy'ibitaro kirimo ibikoresho bya gihanga ndetse bigezweho bivura mu buryo bugezweho, ibikoresho byiza cyane byiteguye kwakira abarwayi ndetse bikabika.

Site nini cyane ubona iriho amazu akeye cyane afite isuku, mu rukerera aho ubona ko hari abantu bahazindukiye baje gushaka serivisi zitandukanye, hari kandi igiti kinini cy'inganzamarumbo gitanga akayaga mu nzu kugira ngo abantu barimo bakomeze guhumeka umwuka mwiza.

Icyumba kiza cyane kinini gisa neza kirimo ibikoresho byo kwa muganga harimo nk'ameza umurwayi yaryamaho ameze neza cyane, ndetse n'intebe umuganga yiciraho arimo asuzuma umurwayi. Harimo kandi icyuma cyabugenewe umurwayi ashobora gukoreraho siporo ananura ingingo z'umubiri cyane cyane amaguru, amaboko ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'umugongo.

Mu cyumba cyiza kinini cy'ibitaro, kirimo ibikoresho by'ibanze ndetse n'ibikoresho bigezweho nk'amamashini, yifashishwa bareba uko umurwayi ahahagaze ndetse harimo bitanda bigezwaho bikoranye ubuhanga, bisunikw, byimurwa byimurwa bidasabye ko uwo murwayi abanza guhaguruswa ku gutanda ndetse harimo amarido meza abasha gukingiza, kuburyo umurwayi yavurwa mu ibanga.

Icyumba kiza gisa neza, gifite isuku ku buryo urukuta ruriho ibishushanyo bigaragaza abantu bari kujya ku yindi mibumbe ubona ko ari ibikinisho by'abana. Harimo igitanda kiryamwaho n'umurwayi kugira ngo abashe kwitabwaho ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze nk'intebe ndetse n'umugezi wo gukarabiraho mu ntoki kugira ngo umuntu agire isuku.

Mu cyumba cyiza kinini kirimo ibikoresho bigezweho cyo kwa muganga, harimo umurwayi ubona ko arembye ndetse ari kwitabwaho kugira ngo barebe ko yakongera gusubirana ubuzima.

Umuforomokazi uri mu cyumba cy'ibitaro, aho ari kureba ukuntu umurwayi amerewe. umurwayi ubonako arembye, ari kumigozi imufasha kumwongere amaraso ndetse ituma abasha guhumuka.

Umuganga uteruye umwana amaze kubyaza ndetse na mama w'umwana yiteguye kwakira umwana mu byishimo byinshi ndetse n'umuganga yishimiye ko inshingano ze azikoze neza, umwana akavuka ari muzima.

Uruganda runini rwiza cyane rufite imashini zabugenewe, rukora uducupa dushyiramo imiti tw'umweru twiza, harimo abakozi bari gutunganya ibyo bikoresho ubona bambaye imyambaro myiza y'uruganda, udupfukamunwa ndetse n'amataburiya abaranga.

Ibikoresho byiza bigezweho byo kwa muganga harimo nka microscopie cyangwa utundi ducupa duto bifashishe baha umuryayi kugira ngo bapime uko ahagaze, cyane bari gupima umusarane kugira ngo barebe uko mu nda cyangwa mu igifu bimeze cyangwa bari gupima inkari kugira ngo babashe kumuvura bagendeye kupimo bafashe

Kwa muganga mu cyumba kinini cyane aho haryamye abantu ku bitanda ndetse bari mu gikorwa cyo gufata amaraso kugira ngo azabashe guhabwa abarwayi babuze amaraso, aho bafata amaraso y'ubwoko bwose ndetse yifashishwa mu kuvura nk'umuntu wakoze impanuka wahuye n'ikibazo cyo kubura amaraso menshi.

Inzu nini cyane, sare nini cyane irimo ibyuma abantu bakoresha siporo, cyane cyane ibyuma abantu bakoresha siporo baterura n'intoki kugira ngo babone ibigango, cyangwa bagire imbaraga nyinshi cyane.

Sare nziza nini yubatse ku buryo bwiza yubakishije imbaho, sare irimo ibikoresho byose bikenerwa muri sare n'intebe abantu baje mu nama bicaramo, ndetse ni sare nini ishobora kwakira abantu barenze ijana.

Inyubako nziza cyane isa neza aho ubona ifite jarideri irimo pasiparumu, iteyemo uturabyo ndetse hari n'uduti tuzana umuyaga, ubona inyubako ifite amarangi meza asa neza cyane.

Icyumba kinini kirimo imiti itandukanye ifunze mu dukarito twiza ndetse turiho n'ibirango by'iyo miti kugira ngo ize guhabwa umuntu batibeje ngo bahe imiti idahuye n'indwara ye, dufunze mu dukarito dusa neza dufite isuku, kugira ngo imiti ikomeze kugira ubuziranenge n'ubudahangarwa bwayo.

Igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo cyifashishwa bakora ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa ndetse no mu kubaka abasakara. Hari umuntu wicaye imbere uri mugacucu ari gufata agafoto wishimye ndetse inyuma hari amazu n'ibindi.

Icyumba cyiza cyane kinini cy'ibitaro, kirimo ibikoresho byinshi bigezweho, harimo za mudasobwa zifashishwa harebwa ibyo ibyuma byafashe cyangwa ibizamini ibyuma bimajije gufata umurwayi, ndetse bakabasha kumenya n'icyo umurwayi arwaye kugira ngo abashe kwitabwaho mu buryo bukwiye.

Icyumba kinini cyiza cyane ubona kirimo ibikoresho bigezweho bikoreshwa muri siporo, ndetse hasi hashushanyije imirongo, hakaba ari ahantu habugenewe hakorerwa siporo n'abantu babigize umwuga, harimo n'ibikoresho byiza bya kizungu bigezweho, ibikoresho bakoresha birukanka, ibyo bakoresha baterura, ndetse n'ibindi by'ubwoko butandukanye byose bwifashishwa mu gukora siporo.

Mu cyumba cy'ibitaro cyiza gisa neza cyane kirimo ibyuma bigezweho, kirimo abaganga benshi bahagije biteguye kubaga umuntu uryamye ku gitanda kugira ngo babashe kumubaga ndetse bamukize umurwayi abafite.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, nk'amamashini akoreshwa apima umurwayi ngo arebe uko ameze ndetse harimo ibitanda byo kuruhukiraho cyangwa kuryamishaho umurwayi mu gihe ari gusuzumwa ndetse hari n'intebe umuganga yicaraho ari gufata ibizamini by'umurwayi.

Icyumba cyiza kinini gike gisa neza kirimo ibikoresho bikenewe kwa muganga kigwariramo abarwayi harimo umugabo uri kumanika supanete kugira ngo imibu itaza kurya umurwayi, icyumba gikeye kirimo ibikoresho by'ibanze cyane cyane ibitanda n'ibindi bifasha umurwayi.

Inzu nini, inzu nziza y'ibiro bya RBC ikigo gishinzwe ubuzima no kububungabunga mu Rwanda. Aho umuntu ajya kubaza cyangwa se kwisuzumisha abaza ibyerekeranye n'ubuzima bwe, cyangwa aho yabonera serivisi bitewe n'uburwayi yaba afite.

Ahantu heza ku biro runaka hicaye abantu hanze abandi bahagaze bigaragara ko bategereje abayobozi cyangwa abandi bantu bari buze kuha serivisi cyangwa bari buze kubaha ibyo bashaka.

Inzu nini cyane igeretse, isa neza iteye amarangi y'umweru, ifite isuku, hari intebe abantu bicaramo bari kuganira ndetse hari n'ibishushanyo biri ku gikuta, bituma hakomeza kugira isura nziza.

Mu cyaro aho ubona hari ibikoresho byinshi nk'ibiti by'imkwi ndetse hari umukecuru urimo kuganira n'umuganga, amuganiriza ku bijyanye n'uburwayi bwe ndetse n'uko yakwitwara mu zabukuru.

Mu cyumba cyiza kinini kigari gisa neza kirimo amarangi y'umweru meza cyane, kirimo ibikoresho byo kwa muganga harimo nk'igitanda ndetse n'intebe zigezweho, ubona ko hasa neza cyane hari ameza ndetse n'ibiro by'imashini aho umuganga abasha gukorera ndetse anavura umurwayi.

Icyumba cyiza kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose bikenerwa nk'igitanda ndetse gifite isuku ihagije, harimo inzitiramibu ndetse n'abarwayi barimo baryamye, abandi bicaye barimo baruhuka ndetse n'umuforomokazi ubitaho.

Mu cyumba cy'ibitaro hari abantu benshi batandukanye barwaye baryamye ku bitanda bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'abaganga bari kubafasha mu buryo bwose kugira ngo bamere neza bakire basubire mu ngo zabo.

Porotayi cyangwa urugi runini rw'igipangu cy'ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima cya Kinigi, aho hari umubyeyi hanze uhetse umwana bigaragara ko aje gushaka serivisi z'ubuvuzi muri ibi bitaro.

Icyumba cyo ku bitaro kirimo igitanda cyiza kigezweho kirimo matora n'ibyo kwisegurafu, muga yamaze kugaragaza kirimo ibyuma bivura, ibyuma bigezweho kirimo gitatse neza harimo imitako nk'amafoto hariho indabyo amadirisha meza cyane atuma akayaga kinjira.

salle nini cyane irimo ibikoresho bigezweho byifashishwa muri siporo harimo utugareabanyonga bananura amaguru ndetse n'ingengo z'marihari kandi bikoredukinisho ndetse ha amagararo abantujesha kunanura umugongo ndetse n'ibindikoresho byiza bigezweho byifashishwa mu gukora siporoS

Ibitaro bikuru bya Shira, aho hari ibitaro byiza bifite inyubako nziza igezeho, inyubako igeretse hasi no hejuru, bigaragara ko yakira abarwayi benshi, ifite ahantu hanini ho kwakirira abarwayi.

Icyumba cyangwa inzu y'aho bafatira imiti cyangwa aho wabonera imiti itandukanye, aho hari imiti ivura uburwayi bwose, ndetse ujyamo ukabwira umuganga akakurebera imiti ijyanye n'indwara ufite.

Kwa muganga, inzu y'ababyeyi aho ababyeyi babyarira bakanitabwaho mu gihe bamaze kubyara bareba ko umwana yabyaye ari muzima cyangwa se yavukanye ikindi kibazo kugira ngo bagikemure nk'abaganga.

Icyumba kinini cyane kirimo utubati tubikwamo imiti y'ubwoko butandukanye iba iri mu ducupa dutoya tw'amazi twifashishwa mu buvuzi ndetse ibitswe mu buryo buri ku murongo kugira ngo buri muti ubashe kumenye aho iherereye ndetse byihutirwa mu kuyiha uwo umuntu ndetse ifite n'uducupa dutandukanye kugira ngo hataza kugira umuti wibeshwaho mu kuwutanga.

Icyumba kiza, kinini cy'ibitaro, kirimo ibikoresho byiza bigezweho, harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari gusuzumwa na muganga ndetse harimo tubikwamo ibikoresho byifashishwa n'abaganga.

Muri pharmacy aho batinjira imiti ndabona imiti y'ubwoko bwose iri mu tubati ndetse n'imiti itandukanye iri ahantu hasa neza hari isuku, kugira ngo ikomeze kugira ubuziranenge itangirika.

Umukobwa uri ahantu hatuje cyane, kugira ngo abone uko akora siporo nta bintu bimutesha umutwe cyangwa bimurogoya, ari kwinanura amaboko, umugongo, ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Icyumba cyiza kinini cyo gukoreramo siporo, hari umusore uri gukora siporo. Umusore w'ibigango, umusore ukomeye cyane, aho ari gukora siporo agenda asimbuka mu tuntu n'utundi, ndetse hari n'umugore uri kumurebera uko akora siporo. Hari n'ibindi bikoresho byinshi, nk'imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibindi bikoresho biba muri siporo nk'icyuma birukankiraho.

Ahantu hamwe hatuje, hari umusore uri gukora siporo uri kunanura amaguru, umugongo ndetse n'ibindi bice, atuje yambaye utumufasha kumva umuziki kugira ngo abashe kuruhuka mu mutwe.

Mu cyumba cyiza, hari umusore w'ibigango uryamye areba hejuru aho ari gukoreshwa siporo, ananura akaguru kugira ngo arebe ingingo ze uko zimeze, ndetse hari n'uri kumukoresha siporo amufasha kunanura akaguru.

Umukobwa uri mu kigero cy'urubyipokora

Imashini yo kwa muganga aho haryamaho umurwayi bakamucisha mu mashini, imashini ikamusikana umubiri wose ubundi ikabasha kubona ikibazo afite. Ni imashini yifashishwa mu buvuzi bugezweho, ndetse imashini iryamyeho umurwayi witeguye kwinjizwa mu cyumba kugira ngo apimwe harebwe uko umubiri we uhagaze.

Ahantu heza hatuje cyane, umugore uri muri siporo kunanura amaguru, amaboko, umugongo ndetse n'ibindi bice by'umubiri ubona ko ukora siporo kugira ngo musubirane ubuzima bwiza ndetse yagabanye umubyibuho n'indwara zanduzwa no kuba umuntu aba siporo nk'umuduko w'amaraso cyangwa isukari nyinshi mu mubiri aribyo twita diyabete.

Umukobwa muto muto uri kunywa amazi akoresheje icupa, yambaye imyenda ya siporo n'agasume ku ibitugu, bigaragara ko ari muri siporo kugirango ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'umubiri mwiza.

Amazi meza cyane ari gusukwa mu kirahure avanwa mu icupa, amazi meza anyobwa kugira ngo umuntu ashire inyota ndetse amazi meza k'umuntu kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibitaro bivura uburwayi bujyanye no gukora siporo, aho batanga imiti by'ubwoko bw'ibinini cyangwa se ibyo kunywa kugira ngo umuntu agire imbaraga ndetse akore siporo nko kwirukanka n'ibindi.

Umuntu uri kunywa amazi akoresheje icupa ndetse amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze kuko amazi ari ingenzi ku mubiri w'umuntu.

Kwa muganga hari ibikoresho byiza mashini ndetse n'ibikoresho bipima umuriro, hari umubyeyi waje gupimisha umwana we ngo arebe uko ahahagaze, kugira n'ibasanga ari ikibazo afite abashe kuvurwa mu buryo bugezweho.

Agatambaro keza gatose, haririmo urubura rukonje ndetse umugabo ari kukirambika ku ivi kugira ngo ingingo zibashe kugoroka ndetse n'ahari kumurya uburibwe bubashe kugabanyuka.

Aka box cyangwa se aka briefcase karimo imiti y'ibanze yifashishwa mubuvuzi, aho harimo imiti ifunze mu dushashi ndetse n'indi ifunze mu ducupa n'imakasi yifashishwa nk'umuntu agize igisebe gitunguranye akaba yakipfuka.

Icyumba kinini cya sale, sale nini ikorerwamo siporo, harimo ibyuma bitandukanye aho harimo intebe zabugenewe umuntu yicaraho ubundi agaterura ibyuma agakora umubiri cyangwa se akongera imbaraga zo mu maboko n'ibigango nk'agatuza ndetse n'amaguru agakomera ubundi akagira ubuzima, harimo ibindi bikoresho byinshi cyane bikoreshwa bagorora umugongo ndetse n'izindi ngingo zitandukanye z'umubiri.

Umugore n'umugabo cyangwa umusore n'inkumi bari muri siporo, birukanka bafite uducupa mu ntoki tw'amazi kugira ngo nibaza kunanirwa, baze gusomaho, ubundi bakomeze bakore siporo bameze neza.

Umusore uri kunywa amazi mu gacupa amazi meza, uri gukora siporo, uri ahantu hatuje kugira ngo hatagira ibimurangaza ari gukora siporo, wambaye agasume kamufasha mu gihe ari kwihanagura ibyuya mu maso, kugira ngo akomeza gukora siporo ameze neza.

Ku kibuga ahantu hameze neza hari utwatsi hatuje, umukobwa arimo arakora siporo arambura ingingo z'umubiri we amaguru n'amaboko ndetse n'umugongo, kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Mu nzu ya sport yabugenewe. Umusore uri gukora sport ananura amaguru ndetse n'izindi ngingo, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ndetse akomeze kuba ari umusore ubangutse wihuse ,bimufashe mu buzima bwe bwa buri munsi no mu kazi akora.

Kwa muganga aho umuganga ari gufata ibipimo areba ko umwana ameze neza mu kanwa cyane cyane ku rurimi mu menyo ndetse n'ahandi, hari n'abandi bantu nka mama we umuteruye kugira ngo umuganga abone uko amupima neza, ndetse n'ibindi bikoresho biri ku meza umuganga yifashisha ari gupima abarwayi.

Mu cyumba kiza kinini cyane, muri saro hari intebe zigezweho nziza z'imifariso wicaramo ukegama, ndetse hari umukobwa cyangwa umugore wicaye uri gukora siporo, ndetse imbereye hari imashini, ibikoresho akoresha akora siporo aterura, hari n'amazi meza kugira ngo nabasha kugira inyota aze kunywa ubundi akomeze gukora siporo ameze neza.

Hari ibikoresho byo kwa muganga, nk'imiti, ga umuganga yambara mu biganza kugira ngo abashe kuvura umurwayi amukoraho, ndetse atamwanduza, n'izindi ndwara, hari imiti ifunze mu ducupa, ndetse no mudushashi twabigenewe, kugira ngo ibashe guhabwa uwo murwayi, ayijyane ajye kuyifashisha, iri mu ducupa twiza dusa neza, ndetse n'udushashi bitunganyije biri ku murongo.

Umusore uri kurambura akantu gakonje, aho ingingo z'ukuboko zihurira mu mu nkokora kugira ngo zibashe guhinuka mu buryo bworoshye ndetse n'imitsi ibashe koroha no kugororoka ubundi abashe guhina akaboko mu buryo bumworoheye.

Umugabo usa n'ukuze bigaragara ko ari gukora amarushanwa yo kwirukanka ndetse afashwe n'ushinzwe kureba uko abantu bari mu marushanwa bamerewe niba nta kibazo bafite babashe kwitabwaho hatagira uribuze gukomerekera mu marushanwa yo kwibuka.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze nk'ibyo bakoresha bapfuka igisebe ndetse n'ibyo bakoresha basiga k'uruhu, ni imiti iba iri mu dupaki dutandukanye ndetse n'uducupa hari iyo kwisiga mu ntoki umuntu akora amasuku ndetse n'ibipfuko umuntu yipfukisha igihe yavunitse nko mu ngingo.

Kwa muganga mu cyumba cy'ibitaro aho ubona ko hari abaforomo benshi bahagije babyigiye, aho biteguye kuvura umurwayi ndetse no kumuha ubufasha kugira ngo abashe gukira, ubona hari ibikoresho byinshi nk'amamashini, ibikoreshwa basuzuma umurwayi ahagaze ndetse n'amasiyete ariho ibyuma bakoresha bavura umurwayi.

umuganga umo ugorora invuumuvan mi cyane yibandaho ingo zihurira mu mavi ndetse n'inkunga warimogororora kugira ngo imitsi ibashe gukura neza ndetse'amaraso agende neza mu mubiri

Umukobwa muto muto mwiza cyane uri ahantu hatuje ubona ko adashaka kugira ikintu kimurogoya ari gukora siporo yambaye utumufasha kumva imiziki mu matwi ekuteri kunywa amazi kuko yakoze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo harimo ibyo baterura bongera ibigango kugira ngo bagire imbaraga nyinshi, harimo imigozi basimbuka kugira ngo babashe kugira detante cyangwa bamenye gusimbuka.

Umusore mwiza munini w'ibigango uri muri siporo ahantu heza hatuje cyane mu nzu ubona ko adashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyamurangaza, urimo unanura ukuguru ndetse n'izindi ngingo z'ukuboko, umugongo ndetse n'agatuza.

Icyumba kinini cyiza kirimo ibikoresho nk'uburiri buryamishwaho abarwayi ndetse harimo supernet cyangwa uturinda imibu kugira ngo itaza kuruma abantu, bakarwara Malariya.

Umusore uryamye ku gitanda, urimo kuba akoreshwa siporo n'undi musore uhagaze, arimo umunura ukuguru kugira ngo abashe kumererwa neza ndetse ingingo z'aho amaguru bahurira zibashe kugororoka.

Umusore mwiza cyane wambaye utuntu tumufasha kumva umuziki mu matwi, uri kunywa amazi bigaragara ko avuye muri siporo, kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse anywe amazi akomeze guhumeka neza, kuko ari ingenzi ku muntu uvuye muri siporo.

Umusore uri kunywa amazi, uri gukora siporo kugira ngo akomeze kugira imbaraga, akomeze gukora siporo ameze neza, ubona ari ahantu hatuje bigaragara ko adashaka umuntu cyangwa ibindi bintu biri buze kumuvangira cyangwa biri buze kumusakuriza ari gukora siporo.

Umusore afite igikoresho cyiza gikoreshwa muri siporo nk'umupira, ubona ari igikoresho ushobora guterura cyangwa ukagikina kugira ngo ubashe gukora siporo kifashishwa mu buvuzi bw'umugongo cyangwa se amaboko urimo ugiterura wongera imbaraga z'umubiri.

Umukobwa muto cyane uri muri siporo, afite agacupa k'amazi, ari kunywa amazi kugira ngo yongere kugira imbaraga akomeze gukora siporo ameze neza, arimo arakorera siporo ahantu hatuje cyane kugirango abashe gukora siporo ntakimurogoya.

Bogisi cyangwa se aka buwate karimo imiti itandukanye cyangwa ibintu bikenerwa nk'ubufasha bw'ibanze mu buvuzi, harimo nk'inshinge, ibipfuko byifashishwa nk'iyo umuntu agize igisebe bitunguranye ndetse n'indi miti umuntu ashobora kwifashisha mu buryo butunguranye igihe yahuye n'ikibazo.

Kwa muganga hari umurwayi umeze nabi wavunitse akaguru bari kukitaho bareba ko amagufa yo mu kaguru yaba yaragize ikibazo ndetse ngo babashe kuyasana asubirane yongere amere neza.

Umusore ufite agashashi karimo barafu cyangwa se urubura rukonje kugira ngo abashe kukirambika ku kuboko ndetse n'aho ingingo zihurira ubundi abashe kurambura ukuboko mu ngingo hatari kumurya.

Umutegarugori cyangwa umukobwa cyangwa igitsina gore aho ari muri siporo ari kunywa amazi mu icupa kugira ngo akomeze kugira imbaraga akore siporo ameze neza, ari ahantu hatuje, akazuba karasa, akora siporo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri muri siporo uri kwinanura, ahantu heza hatuje cyane ku mazi magari niho ari gukorera siporo ananura amaboko n'izindi ngingo z'umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza. Yahisemo gukora siporo ahantu heza hitaruwe ndetse hatari urusaku kugira akore siporo mu mutuzo nta kintu kimurogoye.

Umukobwa cyangwa umugore uri muri siporo, arimo yinanura, ananura amaguru, amaboko ndetse ubona ko yazindutse ku kazuba gake cyane, kugira ngo akore siporo, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu cyumba cya siporo hari imashini zifasha umuntu gukora siporo, aho yicaramo akananura amaguru, akananura umugongo ndetse n'amaboko, imashini zimwereka ukuntu akora siporo akurura inkingi z'umubiri, hari umutoza kandi umwereka ko uko bigenda cyangwa bikorwa.

Ibiribwa biri mu byongera ubuziranenge bw'umubiri, bikarinda indwara byivanzemo puwavuro, avoka inyanya, apome tungurusumu ndetse n'ubunyobwa n'ibindi bitandukanye ndetse hari n'utuntu abantu baterura bavuye muri siporo.

Ni icyumba kinini cyiza cyo kwa muganga cyahuriyemo abantu benshi harimo abaforomo ndetse nawe ubona ko ari gusobanurirwa uko bagomba kwitwara, ndetse imbere yabo hari ifoto cyangwa akagaragaza amashusho ubona ko bose bafite icyo bari kwigiraho, ndetse bari guhabwa amabwiriza n'umuntu uri mu ifoto bari kumva.

Umukobwa cyangwa umugore uri ahantu mu cyumba hatuje ubona hari intebe nziza zigezweho ndetse ari gukora siporo ananura amaboko, amaguru ndetse n'umugongo n'ibindi bice by'umubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse ingingo ze zigororoke mu buryo bwose.

Umusore mwiza w'ibigango munini cyane, uri gukora siporo kugira ngo abashe kongera imbaraga ndetse agire ubuzima bwiza, ubona ari umusore wateruye ibyuma, ufite umubiri ukomeye ndetse kunywa amazi kugira ngo akomeze gukora siporo ameze neza.

Ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'imiti, hari imiti iri mu ducupa dutandukanye, indi irimo mu dushashi ihabwa abarwayi mu gihe baje kwivuza, kandi hari na ga abaganga bambara iyo bagiye kuvura umuntu.

Icyapa cyangwa ishusho igaragaza uko umuntu ashobora gukora siporo nk'umuti cyangwa kugira ngo agire ubuzima bwiza, uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoramo siporo no kwigorora, kwirukanka, gukina umupira ndetse n'ibindi.

Umugore uri gukora siporo ananura amaguru, umugongo ndetse n'ibindi bice by'umubiri, yicaye ahantu hatuje hari intebe ndetse n'indi mitako itandukanye, ubona ko yicaye ahirengeye kugira ngo ataza kugira abantu batuma adakora siporo neza.

Imbuto zitandukanye zikorwamo umutobe zirimo amacunga, pome ndetse n'izindi zitandukanye ndetse hari n'imboga rwatsi cyangwa se ibyatsi byifashishwa mu gukora umuti gakondo, hari kandi utwuma duto cyane twifashishwa mu gukora siporo, hari na metero ipima uburebure cyangwa ibindi bintu runaka.

Umukobwa cyangwase umugore urimo gukora siporo, ubona ko ari ahantu heza cyane, hari amabara meza, hari isuku, akaba ari gukora siporo ananura amaguru, umugongo, ndetse n'amaboko byose akabikorera icyarimwe.

Kwa muganga, umuganga uri gupfuka umurwayi wavunitse amaboko ndetse n'intoki, ubona ko yababaye cyane, umuganga uri kumwitaho agerageza kumupfuka ndetse no kureba ko yamugorora akabasha gukira.

Umusore mwiza cyane w'ibigango aho aryamye ku gitanda areba hejuru ndetse hari n'undi musore urimo amugorora ingingo z'ukuguru kugira ngo zikomeze kumererwa neza ndetse zikore neza mu buryo bwiza.

Akagare kifashishwa n'umuntu, ufite ikibazo cy'ubumuga, udashobora kugenda n'amaguru aho yicazwa mu kagare, ubundi hakajya umuntu inyuma akagenda amusunika, aho agiye hose.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibyuma bigezweho ndetse n'utubati tubikwamo imiti, harimo igitanda cyabugenewe cyicazwaho cyangwa se kikaryamishwaho umurwayi mu gihe agiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Umwangavu mwiza cyane wambaye agapira uri kunywa amazi mu icupa risa neza cyane wambaye eteri uri kumva umuziki azindukiye muri siporo aho ahagaze ari kuruhuka anywa amazi kugirango agire imbaraga akomeza gukora siporo.

Mu cyumba cyiza gisa neza cyicayemo umuforomokazi, uri kwambara agapfukamunwa ndetse na ga n'imyenda yo ku bitaro yabigenewe n'akoresho gapima uko umurwayi ahagaze kari mu ijosi. Imbere ye hari ameza ndetse hari na mashini yifashishwa mu gutanga amakuru mu buryo bugezweho.

Icyumba kinini gikorerwamo siporo kirimo ibikoresho bigezweho by'iterambere, aho ibi bikoresho byifashishwa mu kuvura umugongo ndetse ibindi bikoreshwa mukugorora ingingo nk'amaguru n'amaboko ndetse n'ibyo bifashisha bari gusimbuka bizwi nk'imigozi.

Agakapu cyangwa se akapogisi karimo imiti y'ibanze cyangwa ubutabazi bw'ibanze, yifashishwa ahantu aho ariho hose habaye ikibazo kirihutirwa, harimo imiti y'ubwoko butandukanye ifunze mu dushashi ndetse no mu ducupa.

Imbago cyangwa icyuma umuntu ufite ubumuga adashobora kugenda yifashisha kugira ngo agende, iyo ashaka kugwa akishingikirizaho kugira ngo kimufashe gutambuka.

Umusore w'ibigango uri muri siporo ndetse afite n'icupa ry'amazi ubona ari kuyimenaho kubera kunanirwa, ariko akeneye kuyimena kugira ngo yongere amere neza ndetse akomeze gukora siporo ntakabuza.

Ku gitanda hari uryamye wubamye, uri gukorerwa masaje bamukanda ndetse bamugorora ingingo kugira ngo ingingo ze zibashe kugororoka ndetse n'uruhu rwe rubashe kumera neza, rurinda uburwayi bw'uruhu ndetse n'uburwayi bw'ingingo.

Ku kibuga kinini cyane gihurirwamo n'aba aterete cyangwa se abantu bakora siporo mu buryo bw'umwuga harimo abiganjemo abantu bakora siporo mu buryo bwo kwirukanka cyangwa gukina rugubi ndetse hari n'abatoza bari kuvura umukinnyi ufite ikibazo kugirango babashe gukomeza umukino umeze neza.

Icyatsi cyitwa umuravumba kivura indwara zitandukanye, ni icyatsi kirimo imiti ya Kinyarwanda bifashishaga kera hataraza ubuvuzi bugezweho, cyakoreshwaga mu buvuzi gakondo ariko n'ubu kigikoreshwa ahantu hamwe mu cyaro, bavura abantu barwaye umutwe, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Icyatsi cyiza cyane cyera ahantu hitaruye, icyatsi gikorwamo umuti gakondo, iyo babyanitse, banitse amababi yacyo akuma bakayasya cyangwa se bakayakamura, akavamo umuti unyobwa.

Ahantu mu isambu hanini hari ibyatsi bitandukanye byerera hasi, ubona hari ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo ndetse n'ibindi byatsi bikoreshwa bigaburirwa amatungo yo mu rugo.

Isekuru cyangwa akantu bazikuramo imiti yabugenewe, hari hakusanyirijwemo ibyatsi bibarwamo imiti gakondo ugiye kubisya ubundi bikorwemo imiti ivura nibimara gutunganywa.

Ku musozi hari ibiti byinshi bitandukanye by'ubwoko bwinshi, harera ibyatsi hasi, usibye ibiti bizana akayaga, bikavamo intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo, ndetse havamo n'inkwi abaturage bacana iwabo.

Icyatsi cyiza cyane gitoshye gikorwarwamo umuti wa kinyarwanda, aho bacyanika cyangwa se bakagisya kikavamo ifu cyangwa bakagisekura bakagikamura kikavamo umuti unyobwa mu buryo bwa gakondo. ukabasha kuvura uburwayi butandukanye.

Imiti myinshi itandukanye iri mu ducupa tureture, aho ipanze muri etajeri cyangwa akantu kubatse mu tubaho, aho ipanze umuti umwe ku wundi ndetse ifite ibyapa inyuma kugira ngo ibashe gutandukanywa mu gihe igiye guhabwa umurwayi.

Icyatsi kiza gitoshye gisa neza, kifashishwa mu gukora umuti gakondo cyangwa ubuvuzi gakondo, ndetse hazamutswe n'ibindi biti byinshi byiza bikuze byifashishwa kuvamo intebe zo munzu, utubati, igitanda cyo kuryamaho, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Avoka, igikakarubamba ndetse bigaragara nk'ibikorwamo isabune yoza uruhu ndetse ivura indwara zandurira ku ruhu n'uduheri n'ubundi burwayi butandukanye bwandura ku ruhu.

Icyatsi kiza, kinini gisa neza, ubona ko giteye ahantu heza hari ifumbire, icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho gisekurwa kikagikwa nk'ifu ndetse abantu bakagikoresha bivura indwara zitandukanye.

Icyatsi kinini cyane gitoshye, gifite amababi menshi y'icyatsi kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho cyanikwa cyangwa kigatunganywa mu buryo bwa gakondo, ubundi kikabasha kuvamo uwo umuti wifashishwa mu buvuzi.

Imiti ituruka ku bihingwa cyangwa ibyatsi, imiti gakondo itunganyije mu buryo bugezweho, ifunze mu ducupa twabugenewe ndetse n'ibishashi byayo byabugenewe bikoranye ubuhanga ndetse n'isuku kugira ngo imiti itabasha kwangirika.

Ibyatsi byinshi cyane bikorwamo imiti gakondo, nko kubyanika bakabisya bikavamo ifu cyangwa bakabikamura cyangwa se bakabikoramo amavuta abasha gusigwa ku ruhu, kugira ngo akize uburwayi bw'uruhu nk'ibiheri ndetse n'ubundi burwayi butandukanye.

Ibikoresho cyangwa imbuto ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi gakondo aho ubona hari uducuma utubindi ndetse n'utundi twose twifashishwa bategura iyi miti y'ubuvuzi gakondo, hari kandi ibikorwamo iyo miti gakondo harimo nk'ibiba by'ibyatsi, imbuto ndetse na tangawizi n'indabyo zose zivanga kugira ngo bazisye ubundi babivuze bibafashe gukora uwo muti uvura uburwayi.

Icyumba kinini cyane kirimo imiti ya kinyarwanda cyangwa imiti gakondo, itandukanye ifunze mu ducupa ndetse uducupa dufite ibirango inyuma kugira ngo ibashe gutandukanywa mu gihe bari kuyiha uyikeneye cyangwa umurwayi.

Igiti kiza kinini gifite amashami ndetse n'amababi, ubona ko ari kinini ndetse hazengurutswe n'ibyatsi n'utundi duti dutoya nk'indabyo, duteye amabengeza urabo ko ari byiza kubireba.

Ibyatsi byera biranda hasi, ibindi bihagaze ariko bibi cyane, bivugwamo imiti ndetse n'ibindi bikagaburirwa amatungo, ibyatsi biri ahantu si bunini cyane, bigaragara ko byatewe kubw'impamvu.

Imiti myinshi itandukanye, imiti ya gakondo ndetse hari n'agasekuro ko bateguramo cyangwa basekuriramo iyo miti bari kwitegura hari n'agacupa k'ubuki bavangirami iyo miti ndetse n'indi miti y'ibyatsi itandukanye n'ibimera.

Icyatsi kiza gitoshye, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho cyanikwa, kikuma, kigaserwa, kikaba ifu cyangwa se bakagikamura kikiri gitoto, bakagikuramo umuti w'amazi unyobwa n'umurwayi.

Agasekuru gato cyane gakoreshwa bacucuma imiti gakondo ndetse bayivangavanga kugira ngo bashe kuvanamo imiti ivura kandi ikoranye ubuziranenge. Ndetse hari imiti hasi yamaze gutunganywa cyangwa gusebwa kugira ngo ibashe kuvura.

Umubyeyi cyangwa umu mama uri ahantu hari ibimera aho ari guca amababi y'icyatsi kibisi agiye kuyakoramo umuti icyo twita imiti ya Kinyarwanda aho bawanika cyangwa se akawusekura akavanamo amazi yawo ubundi akabasha kuwunywa cyangwa akawuha umuntu urwaye akawunywa ubundi agakira.

Ibyatsi bitandukanye bigaragara nk'umuti ndetse hari n'agasekuru gatoya ko kubisekuriramo kugira ngo bitunganwe, bibashe gukora icyo byagenewe, bigaragara nk'umuti ushobora kuvura indwara zitandukanye ari byo twita imiti ya Kinyarwanda.

Imiti myinshi ikorwa mu bimera bitandukanye ndetse n'izindi poruduwi zitandukanye, aho biri mu ducupa twiza, dusa neza, dufite isuku ndetse turiho amagambo inyuma abasha kudutandukanya kugira ngo hatagira umuti uza kwitiranwa n'undi.

Icyapa cyangwa ifoto igaragaza umuti uvura ibijyanye n'indwara z'umuryango z'abantu bashakanye cyane cyane kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ibindi bi abantu bakora umuryango wabo.

Mu gisagara kinini cyane hari ibyatsi bitandukanye byiganjemo amatovu ndetse n'ibindi byatsi byerera hasi, amatovu akoreshwa nk'umuti gakondo uvura uburwayi, bakoreshaga mu gihe cya kera.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye, imbuto zifashishwa bakora imiti gakondo ndetse hari n'udusekuru cyangwa udusahane duto tumeze nk'utubakure bifashisha bahonda imiti cyangwa bacucuma imiti kugira ngo ibashe kuba ifu ubundi ivure.

Ikirango cyangwa icyapa kigaragaza ahantu bavura mu kanwa ndetse bita no ku ndwara zo mu kanwa, cyane cyane zifata amenyo cyangwa ururimi ndetse no kugira umwuka mubi mu kanwa.

Umunsi mukuru wahariwe ikoreshwa ry'imiti gakondo muri Afurika, aho bizihiza gukoresha imiti gakondo bikorwa mu byatsi cyangwa ibimera bitandukanye kandi iyi ilmiti yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga bwakoreshwaga kera hataraza ubu buvuzi bugezweho.

Uducupa twinshi dutandukanye turimo imiti ivura uburwayi butandukanye ndetse dupanze ku murongo bigaragara ko buri kamwe gafite ibyo kagenewe ndetse kugira tutabasha kuvangwa, tukayobya umuntu uri buze..

Imiti gakondo cyangwa imiti ya kinyarwanda iri mu macupa maremare, ifunzemo isa neza ndetse ku ducupa hariho n'ibyapa bigaragaza ubwoko bw'umuti, kugira ngo bibashe guhabwa umurwayi cyangwa uyikenera bitabayemo kwibeshya.

Imiti myinshi ya gakondo, ikorwa mu ndabyo ndetse n'indabyo zisa neza; ziri mu dutasi tw'ibirahure twabugenewe ndetse n'imiti y'ibinini iri ku tuntu tw'utuyiko cyangwa tw'utwuko dukoze mu biti, ndetse n'indi miti ifunzwe mu ducupa duto cyane.

Umusaruro w'inzuki cyanga se imiti gakondo ikorwa mu buki n'umusaruro w'inzuki ndetse ariya macupa arimo uwo musaruro ukoze mu nzuki ndetse imbere yawo harimo indabyo nk'ikimenyetso cy'aho inzuki zijya guhahira ibyo kurya.

Umuti iri mu ducupa, imiti gakondo ivura uburwayi butandukanye nko mu nda, umutwe ndetse n'ubundi burwayi, imiti ifunze mu ducupa dutandukanye dusa neza dufite isuku kugira ngo imiti ikomeze kugumana ubuziranenge bwayo.

Igiti cy'utubuto dutoya turibwa turyoha cyane dukundwa kuribwa n'abana ndetse n'abantu bakuru bashobora kuturya, turyohera cyane tugira uburyohe budasanzwe cyane ndetse tugatera na apeti.

Muri faromasi hatangirwa imiti gakondo, farumasi ya gakondo harimo umugabo ushinzwe gutanga imiti, ubona harimo imiti myinshi ifunze mu ducupa ndetse uducupa turiho ibyapa cyangwa ibirango kugira ngo buri muti ubashe kugaragara n'icyo uvura.

Mu ducupa twinshi dutandukanye, turimo amavuta ndetse n'imiti gakondo, ariyo ayo mavuta usiga ku ruhu igihe rutameze neza, hari abantu benshi baje gushaka iyo miti, iri mu utwo dutupa, ndetse uducupa dutandukanye turimo imiti itandukanye ivura uburwayi butandukanye.

Umusaruro w'inzuki n'ubuki buri mu gacupa bwifashishwa nk'umuti gakondo ndetse umuti uvura uburwayi bwinshi, ndetse n'abantu bakaba babukoreshwa bari kuburya kugira ngo baryoherwe cyangwa basiga ku biryo nk'imigati ndetse n'ibindi biribwa. Hari indabyo kandi hasi zisa neza z'umuhondo, zigaragaza aho inzuki zijya guhahira.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'uducuma, utubindi, intebe za gakondo ndetse n'uducupa twakoreshwaga kera, mbona biri ahantu hatunganyije bisa neza, bifite amasuku.

Uducupa twinshi duto cyane, turimo imiti ivura uburwayi butandukanye, harimo imiti yo kwisiga ndetse n'imiti y'ibinini imirwa ikoresheshije amazi, amacupa yanditseho amagambo inyuma atandukanye n'iyindi kugira buri muti ubashe kugaragara ndetse n'icyo uvura.

Tungurusumu cyangwa utubuto duto twerera mu butaka, tuba tumaze nk'ibitungu aho twifashishwa mu buvuzi gakondo, cyanecyane cyane tuvura indwara zo mu nda, nk'umuti wa gakondo, ndetse zikaba zikoreshwa mu koza amenyo.

Akabati cyangwa se akayetajeri karimo udukombe twinshi dutandukanye turimo imiti ya kinyarwanda, iseye ndetse n'idaseye ndetse uducupa turiho ibyapa bituranga kugira ngo buri muti ubashe gutandukana n'iyindi kugira udatangwa wibeshye ku ndwara.

Aho batangira imiti aho ubona hari abantu benshi ndetse hari n'imiti itandukanye imiti gakondo ifunze mu ducupa ivura uburwayi butandukanye.

fdxghjbkl;'lk;jdghjkl;lkjhgfdghjklgfdszdfghjkhgfdsfgvccvcecex6erxe5ecnbn b xgzfdzfxf bsarx

Mu murima munini cyane mwiza urimo ubwatsi butoshye, bwifashishwa nk'ibiryo by'amatungo ndetse hari umuntu uri gushaka umuti gakondo w'ibyatsi.

Icyapa kigaragaza ko ushobora kwita ku mubiri wawe ukoresheje imiti yabugenewe, nk'amavuta yo kwisiga kugira ngo umere neza.

Mu ivuriro gakondo aho hari imiti myinshi iri mu macupa bigaragara ko hari imiti ya gakondo, ivura indwara mu buryo bwa gakondo, nk'imiti iba yarasekuwe cyangwa yaraseshejwe ikaba ivu hari n'uduti twinshi basyamo iyo miti.

Umuririma mwiza cyane urambuye urimo ibyatsi byinshi bitandukanye, bigaburirwa amatungo, ibindi bikarobanurwa bigakorwamo imiti gakondo, ibasha ku kuvura abantu cyangwa kuvura amatungo.

Tungurusumu cyangwa se utubuto duterwa mu butaka ubundi tugasarurwa tugakurwamo umuti cyangwa se tugatekwa mu biryo, baduteka mu biryo nk'imbuto cyangwa nk'ibihingwa bituma ibiryo biryoha ndetse bikarinda n'uburwayi bw'umubiri nk'umutwe cyangwa ubundi burwayi bwo mu nda.